Ikigo cya Radiant gitanga ubwishingizi kirakubwira ko ushobora kugura ubwishingizi bw'ubuzima bwawe n'ubw'umuryango, kanda akanyenyeri, gatanu, gatatu, rimwe urwego, ugure ubwishingizi. Turi kumwe.

Urubuga nkoranabuhanga rufasha abakiliya ba agisesi banke, kuba bakwinjira muri konti zabo za banki, ubanza gushyiramo izina ukoresha, icya kabiri ugashyiramo ijambo banga ubundi ukinjira.

Mu nzu icururizwamo ibirimo za mudasobwa ndetse n'amatelefoni ari mu kabati gakozwe n'ibirahure bibonerana. Harimo umugabo uri gupanga ibicuruzwa neza yambaye umupira w'amaboko magufi .

Umugore uhagaze mu nzu acururizamo, akaba yambaye imfunguzo ebyiri ziri ku kagozi mu ijosi, inyuma ye hari akabati karimo ibicuruzwa.

Imyambaro y'abagore imanitse irimo amakanzu icururizwa mu isoko ririmo n'indi myambaro irimo amapantaro y'abagabo, ahangaha niho abantu bajya guhaha imyenda.

Imodoka y'umukara iparitse mu mbuga ishashemo amabuye hasi, iruhande rwayo hahagaze abagabo babiri, ni hanze izuba riri kuva ruguru y'aho imodoka iparitse hari uruzitiro.

Imodoka yo kugendamo yakozwe n'uruganda rwa yundayi ifunguye imiryango yombi; iri kwaka amatara y'umweru y'imbere, irasa n'umukara, abakobwa babiri bafunguye imiryango.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'igihumbi, ni amafaranga menshi, iruhande rwe hari n'andi mafaranga na yo y'inoti apanze hejuru y'andi, imbere ye hari icyuma cya mubazi gifite amabuto cyifashishwa mu kubara imibabare.

Ibiro biri mu nzu isize amarange y'umweru ndetse n'ubururu, ahanditse ibiro bya kabiri harimo umugore uri kwakira umukiriya w'umugabo.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, afite agaciro k'ibihumbi bibiri ni amafaranga yemewe na Banki nkuru y' u Rwanda. Aya mafaranga ashushanyijeho umugezi iruhande rwawo hari ibyatsi.

Ibiro byicawemo n'umukozi w'umugabo uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, yambaye agapfukamunwa, imbere ye hari mudasobwa. Naho mu idirishya ryo mu biro bye hahagazemo umugore waje gushaka serivisi, yambaye nawe agapfukamunwa gatukura.

Inzu icururizwamo ibirimo ibinyobwa by'imitobe, bipanze mu kabati kadafunze, hari umugabo uhagaze ari kwishyura amafaranga yo mu bwoko bw'inoti.

Umugore ukora imirimo yo gucururiza mu nzu itanga amata yo kunywa. Arimo arabuganiza amata mu kirahure kibonerana, amata ari kuva mu ijerekani.

Inzu icururizwamo ibirimo amata harimo n'icyuma gikonjesha amata, iruhande rwaho hari ahantu hari udutebe ndetse n'ameza two kwicaraho igihe umuntu afungura amata ndetse n'imigati.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'amayero ijana, amafaranga y'u Rwanda ibihumbi bibiri ndetse n'andi mafaranga y'amayero ijana, ibihumbi bitanu by'amafaranga y'u Rwanda afashwe mu kiganza.

Umugabo ufite telefoni igezweho ngendanwa ikoresha murandasi, bakoreshamo n'urutoki ikaba ifunguye mu rubuga rwa MTN rwerekana uburyo ki bohereza bakanakira amafaranga.

Urupapuro rusa n'umweru ruriho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, ruriho ikirango cya Rwanda Revenue Authority, ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, kiriho imbonerahamwe zirimo amafaranga, amatariki ndetse n'umukono.

Urupapuro nkoranabuhanga ruri muri mudasobwa ifunguye, rukaba rwanditseho banki ya Kigali urupapuro ruriho amazina ndetse na konti n'amatariki aho amafaranga yoherejwe.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho ikirango cya Repubulika y'u Rwanda gishushanyije ndetse n'ikirango cya Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe imisoro, ni urupapuro rwerekana imisoro itangwa na sosiyete Industrielle de Materiaux de Constriction.

Urupapuro rw'umweru rwanditseho BK yacu, rugaragaza amafaranga yabikijwe na Emmanuel Nzafashwanayo, afite imibare yihariye ya konti, akaba yayashyize kuri konti ya Manzi Eric.

Abantu bari guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, harimo amafaranga y'amadolari afite agaciro k'ijana ndetse n'amafaranga y'amayero nayo afite agaciro k'ijana.

Amafaranga yo mu bwoko bw'ibiceri ndetse n'inote, harimo amafaranga y’inoti y'idolari ifite agaciro k'ijana ndetse n'igiceri gifite agaciro k’icumi.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti ari kubarwa mu ntoki n'umugore hari amafaranga afite agaciro k'igihumbi. Ni menshi iruhande rwayo hari imashini ya mubazi ifite amabuto yifashishwa mu kubara imibare.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti agerekeranyije afunze imifungo, iruhande rwayo hari umugore ufashe ku cyuma cya mubaze cyifashishwa mu kubara amafaranga umuntu atibeshye.

Intoki ziri kugurana amafaranga yo mu bwoko bw'inoti afite agaciro k'ijana n'amafaranga y'amadorari imbere y'umuntu umwe hari imashini ya mubazi ifite amafoto yifashishwa mu kubara amafaranga.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti y'amadorari afite agaciro k'ijana yashyizwe mu cyuma cya mubazi gikoreshwa mu kubara amafaranga. Gifite amabuto ndetse iruhande rwacyo hari n'umuntu uri gukanda imibare muri mubazi.

Umuntu uri kubara amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, ni menshi harimo amadorari afite agaciro k'ijana ndetse n'andi mafaranga yo mu bundi bwoko. Amafaranga akora imirimo irimo guhaha, arakorerwa kandi abikwa mu mabanki.

Umugore uri kubara amafaranga mu ntoki ze, ari amafaranga y'ubwoko bw'inoti zifite agaciro gatandukanye, amafaranga abikwa muri banki arakorerwa kandi akoreshwa mu guhaha ibintu byinshi, yishyura ishuri akishyura ubwishingizi ndetse n'ibindi byinshi.

Ibiganza biri guhererekanya amafaranga yo mu bwoko bw'inoti, harimo amadolari y'ijana ashushanyijeho umugabo, amafaranga abikwa mu mabanki ndetse amabanki ashobora no kuguriza umuntu amafaranga igihe yatanze ingwate.

Intebe ndetse n'ameza bibaje mu giti, biteretse mu nzu ishashemo amakaro hasi, inyuma yaho hari ahantu hadafunze ku buryo uwicaye mu nzu abasha kureba ibibera hanze.

Mu nzu hari umwanya w'uruganiriro, urimo intebe zegamirwa zikoranye imisego ndetse n'izindi zibaje mu biti zitariho imisego, imbere yazo hari akabati kabikwamo ibintu.

Icyumba kirimo igitanda kiriho n'umufariso, icyo cyumba kikaba giteretseho n'impano zipfunyitse neza hari n'amashuka akiri mu mashashi, iruhande rwacyo hari intebe yo kwicaraho.

Inzu ifite imbuga hanze irimo intebe ndetse n'ameza bibaje mu giti, intebe zirimo imisego y'umukara kandi ziregamirwa; iruhande rwabyo hari akabati nako kabaje mu biti karafunze.

Ubusitani burimo ibyatsi biconze neza bukaba bukikijwe n'ibiti hagati hari intebe zegamirwa zifite n'imisego, hari n'ameza abaje mu giti azengurutswe n'intebe.

Inzu ifite uruganiriro, ikaba ifite urukuta rwegetseho akabati kamanitsemo televiziyo irazimije, ndetse ku rundi ruhande rw'akabati hateretsemo amavazi ateretsemo indabo.

Inzu harimo intebe ibaje mu giti ndetse n'akabati na ko kabaje mu giti, hashashemo amakaro ndetse hari n'igikuta gisize amarangi y'umweru, ku kabati hateretseho agaseke gato.

Inzu y'amagorofa ikaba ifite imbuga irimo pisine yuzuyemo amazi, aha niho hakorerwa imyitozo yo koga cyangwa umuntu akaba yajyamo ari ukwishimisha.

Inzu y'amagorofa yubakishije amatafari ahiye, imbere yayo ifite imbuga irimo ibyatsi bikoze ubusitani ndetse hari n'igiti cy'ubwiza, hakaba hari amahema y'umweru munsi yayo harimo intebe ndetse n'ameza yo kwicaramo.

Igikoresho gishinze mu muhanda ku ipoto gikoreshwa mu kuyobora ibinyabiziga kifashishije ibimenyetso by'urumuri bigaragaramo imibare cyangwa se utwitso bigaragara mu ibara ry'umutuku, umuhondo cyangwa se icunga rihishije cyangwa icyatsi.

Inzu ifite uruganiriro rurimo intebe zegamirwa zifite n'imisego. Iruhande rwaho hari igikuta cy'umukara ndetse hari n'inzugi zigana mu byumba.

Imbuga ishashemo isima y'igiheri, iciyemo imirongo igaragaza uburebure imodoka igomba guparikamo ndetse no hirya hari undi mwanya ungana nawo, nawo uparikwamo imodoka.

Hari inguzanyo yatekana aho ushobora gushinganisha imodoka yawe, imodoka ntizagire ikibazo ngo uhangayike. Ushobora guhamagara kuri gatanu rimwe makumyabiri ni ubuntu kuri MTN bakagufasha bakakubwira ku by'iyi nguzanyo.

Imbaga y'abantu benshi bakoraniye hanze izuba riva, hari n'ibirango by'umutuku byanditsemo Airtel, Iki ni igikorwa cyo kwamamaza ibikorwa bya Airtel mu baturage.

Mu isoko hahagazemo abantu batandukanye barimo abaguzi ndetse n'abacuruzi bari mu byiciro by'abana, abagabo ndetse n'abagore ibicuruzwa birimo n'inyanya ziri mu gatebo.

Isoko ririmo abagabo, abagore ndetse n'abana ririmo ricururizwamo ibicuruzwa birimo inyanya, intoryi ndetse n'ibindi. Harimo abaguzi ndetse n'abacuruzi.

Isoko ricururizwamo ibirimo imbuto z'imineke, inanasi, amacunga ndetse n'ibindi hagazemo umucuruzi w'umugore arimo aratondeka neza ibicuruzwa bye.

Abagore bari mu isoko bacururizamo baricaye imbere yabo hari ibicuruzwa by'intoryi biri mu kantu gasa n'umweru inyuma yabo hari n'ahandi hantu hari ameza ndetse n'utubati tw'ibiti hacururizwamo ibindi bintu.

Isoko ricururizwamo ibirimo imboga, harimo imboga rwatsi, amakaroti ndetse n'amashu, byose bipanze mu tubati two mu isoko.

Inyubako y'amagorofa yubakishije ibirahure bitabonerana, hejuru yanditseho ijambo K I ndetse na C ari ryo zina ry'uyu muturirwa, ku ruhande hari icyuma gikoreshwa mu gufata amashusho y'abantu bahaza cya kamera.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa birimo imitako, risakaje amabati ndetse n'ibyuma, hahagazemo umucuruzi w'umugore, inyuma ye hari imitako irimo inkoko ndetse n'ibishushanyo.

Mu isoko hacururizwamo ibirimo imbuto zirimo inanasi, ibinyomoro, amacunga, imineke ndetse n'amavoka, harimo abacuruzi ndetse n'abaguzi. Hari kandi n'ibindi bicuruzwa biri ku rundi ruhande.

Isoko ririmo umucuruzi w'umugore wirabura uteze igitambaro mu mutwe uhetse umwana, inyuma ye hari ibicuruzwa by'imboga birimo inyanya ndetse iruhande rwe hari n'amashu.

Isoko ririmo ibitunguru ndetse n'izindi mboga hakaba hahagazemo abagore babiri bari kuganira. Iri soko rirubakiye hejuru ndetse hirya hari n'undi mucuruzi nawe ucuruza hari n'umunzani.

Isoko riri mun nzu y'amagorofa icururizwamo ibintu byinshi, ririmo imiryango myinshi y'ubucuruzi, hejuru hari ahantu hahagaze abaguzi, imbere yaho hacururizwamo imyenda, naho, hasi naho hari ibindi bicururizwamo, birimo imbuto kandi ifite n'inkuta zisize amarangi y'umweru.

Umukobwa uri kuvugira mu ndangururamajwi, yambaye umupira w'umuhondo w'amaboko magufi, inyuma ye hari ihema ry'umweru ryicawemo n'abantu bambaye imipira na yo y'umuhondo y'amaboko magufi. Hari n'ibirango bya Emutiyeni.

Umugore waje gusaba serivisi mu kazu gasa n'umuhondo gakorerwamo n'umukozi uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya MTN mu gace runaka, uri kwandika imyirondoro amubarura.

Icyapa cy'umuhondo kiriho ibirango bya emutiyeni, cyanditseho amagambo y'umukara hariho izina ry'umucuruzi ndetse na nimero ikoreshwa bishyura uyu mucuruzi bifashishije telefoni ngendanwa mu ikoranabuhanga rya emutiyeni.

Abantu barimo abagabo bahagaze imbere y'akazu kubabakishije ishashi yanditseho Emutiyeni ikaba inasa n'umuhondo harimo hakorerwamo ibikorwa byo kwamamaza Emutiyeni.

Icyapa cy'umuhondo cyanditsemo amagambo y'umukara, kibwira abantu ko bashobora kwishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya terefone ngendanwa rya momo, aho nta mafaranga babakata, bakanda akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu, akanyenyeri gatatu urwego, bakinjiramo nimero y'ubucuruzi.

Icyapa cy'umuhondo cyanditsemo Mtn momo, gikoreshwa bishyura n'ikoranabuhanga rya telefoni ngendanwa ku bantu b'abakiriya ba mtn, hatanzwe amazina y'umucuruzi hariho inuma tekinoloji, ushobora gukanda akanyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe nimero y'umucuruzi, ubundi ukishyura.

Akazu k'ibyuma kubatse hanze impande ya aho abanyamaguru baca, karasa n'umutuku, gafunze amadirishya, kanditseho Airtel, aka ni akazu gakorerwamo n'umuntu uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi bya Airtel w'ako gace.

Urubuga koranabuhanga rwo mu rukari, ni urubuga rukoresha murandasi, aho umuguzi ajyaho agashaka ibicuruzwa akabikora akishyura bakazabimugezareza mu rugo kuva ku wa mbere kugeza kucyumweru.

Urubuga rwa Ali express rukoreshwa mu kugura hifashishijwe iyakure, ni ukuvuga umuguzi aba agomba kuba afite ibikoresho bikoresha mudasobwa, akaba afite murandasi, afite n'amafaranga agiye kugura ibicuruzwa, uru rubuga rugaragaraho ibicuruzwa bitandukanye.

Urubuga nkoranabuhanga rukoreshwa mu guhaha ibintu hifashishijwe iya kure rwa kiku hariho ibicuruzwa bitandukanye harimo inkweto ndetse n'amasakoshi y'abagore.

Mu mujyi wa Kigali hari inzu yubatse igeretse ikaba yubakishijwe amatafari ahiye ifite amadirishya ateye amarange y'umweru, iyi nzu ikaba ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu mu mujyi wa Kigali.

Inzu ifite urubaraza ruteretseho ivase irimo ururabyo ndetse ikaba ifite imbuga ishashemo amatafari, iyi mbuga umuntu ashobora kuyiparikamo imodoka zirenze imwe, iyo urebeye muri uru rubaraza ubona n'izindi nzu baturanye.

Umugabo w'umuzungu ndetse n'umugore w'umwirabura bari mu nzu isize amarangi y'umweru ku nkuta, irimo amatara ateretse hasi ndetse harimo n'intebe.

Inzu yo guturamo ikodeshwa i Kigali Kibagabaga, ifite ibyumba bibiri, ubwogero bubiri ndetse ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, iyi nzu yubatse ku buryo bw'amagorofa.

Inzu ikodeshwa iri kigali Kimironko, ni inzu ifite igisenge cyubakishijwe amabati y'umutuku, ikaba ifite inkuta zisize amarangi, ifite inzugi ebyiri nini, ndetse n'amadirishya y'ibirahure bitabonerana.

Inzu ishashemo amakaro ikaba ifite akabati gapanzemo ibicuruzwa, impande yaho hakaba hari ibiro by'umuntu ushinzwe gucururiza mu iri duka, harimo mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byo mu biro.

Inzu icururizwamo ibirimo imigati ,amakeke, ndetse n'amacupati, biri mu kabati gafite ibirahuri bibonerana ndetse harimo n'amatara abonesha cyane muri ako kabati.

Mu nzu ishashemo amakaro iri kwakamo amatara y'umweru hejuru mu gisenge hakaba hari n'abantu bari kugendamo, harimo umuryango w'umugore ufite n'abana bari gutambuka binjira mu muryango.

Umugabo ndetse n'umugore bari kwifotoza bambaye agapfukamunwa, bari mu nzu mo imbere umugabo ari guha ishimwe umugore witwa Mukanziga Pascaline, ishimwe ringana na miriyoni imwe n'amafaranga ibihumbi magana abiri na mirongo itanu nk'ubwishingizi bw'ubuzima.

Abantu benshi bakoraniye hanze ahari kubera igikorwa cyo gushishikariza abantu gahunda ya ejo heza, izuba riri kuva hari n'icyapa cyanditseho ejo heza.

Ikigo nderabuzima cya Girubuzima giherereye i Ndego, kikaba gifite inyubako isize amarangi y'ubururu, hakaba hari icyapa cyerekana ko ari ikigo nderabuzima cya Ndego, hashushanyijeho n'umuryango w'umugore ndetse n'umugabo bafashe abana ibiganza.

Ikarita y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli iyi ni ikarita ihabwa umuntu wishyuye ubwishingizi bwo kwivuza akazajya ayijyana kwa muganga igihe agiye kwivuza nabo bakamwakira bakamuvura bakamuha n'imiti ku mafaranga make.

Iguriro rya girisimu, ripanzemo ibicuruzwa mu tubati twanditseho amafaranga bigura, harimo abaguzi benshi harimo umugabo wambaye umupira w'umukara, usunika akagare karimo ibyo avuye kugura.

Inzu icururizwamo ibicuruzwa birimo imigati ndetse n'amasambusa biri mu tubati dukozwe n'ibirahure dufite igice giteye irangi ry'umukara hasi hahagazemo umukobwa ndetse hari n'icyuma gikoreshwa mu gukonjesha ibinyobwa.

Iguriro ririmo utubati duteretseho ibicuruzwa, imbere yabyo hari ibipapuro cyangwa udupapuro duto turiho ibiciro by'ibyo bicuruzwa imbere yaho hari n'ahantu hari icyuma gikonjesha.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye bipanze mu tubati twometseho udupapuro turiho amakuru ndetse n'ibiciro by'ibyo bicuruzwa. Mu imbere amatara y'umweru ari kwaka.

Umugore uri mu iguriro rigezweho, ashoreye akagare gashyirwamo ibicuruzwa byaguzwe, harimo kandi n'utubati turimo ibicuruzwa bicuruzwa mu iryo soko ndetse hari n'udupapuro twometse ku kabati tugaragaza ibiciro by'ibicuruzwa.

Inzu icururizwamo, iteretsemo akabati kari mu ibara ry'umweru, hakaba hapanzemo ibicuruzwa byinshi bipanze mu byumba by'ako kabati.